Mu cyumba cy'ishuri habamo ibikoresho byinshi bitandukanye. Ikibaho, intebe zo kwicaraho z'abanyeshuri, ameza ndetse n'ibindi.

Icyumba cyiza cyubatse neza. Aho bigaragara ko ari icyumba abanyeshuri bakoresha igihe baba mu kigo.

Inyubako isa nk'aho ari amashuri yubatswe, aho bayakoresha mu myigire y'abana batandukanye, haba ari incuke cyangwa se urubyiruko.

Mu cyumba cy'shuri bigaragara ko nta banyeshuri barimo, aho bazifashisha mu burezi muri iyi minsi.

Icyapa kiri kugaragaza icyo ahantu hakoreshwa, bigaragara ko hari ikigo cy'amashuri bari gutanga ikaze ku bantu bose bashaka kukigana.

Iyi nzu yubatse mu buryo bwa kijyambere, iri impande y'umuhanda, bisa nk'aho ari ikigo cy'ishuri.

Icyapa kiri kugaragaza ko aho hantu hari ikigo cy'amashuri. Hari Kampanga kiri kugaragaza n'urugero rw'abana bigishirizamo.

Ikibumbano cyiza kiri ahantu abanyeshuri bagomba kukibona. Gifite ibice by'umubiri kugira ngo abanyeshuri bazacyifashishe.

Abakobwa benshi bigaragara ko bari kwihugura mu mirimo y'amaboko ndetse n'ubukorikori. Batunganya imisatsi y'abantu bakabona amafaranga menshi cyane.

Umuseriveri ajyanye icyo kunywa ku bakimusabye. Yarabyigiye, kandi yabiherewe impamyabushobozi.

Abantu benshi basa nk'aho ari abanyeshuri, bari kuganira ku masomo, kandi barishimye cyane kubera ko bazi ibintu.

Abanyeshuri bigaragara ko barimo gukora ubushakashatsi, bambaye imyambaro yabugenewe y'umweru.

Abantu benshi bambaye impuzankano, bisa nk'aho ari mu kigo cy'amashuri, bishoboka ko basuwe n'umuyobozi, uri kuberekera uburyo barya.

Abanyeshuri bambaye impuzankano, bigaragara ko bari gukora isuzumabumenyi kugira ngo bizabafashe mu myigire yabo.

Abatetsi bakora mu maresitora ndetse no mu mahoteli baba barabyigiye kandi babizi neza.

Abagabo babiri basa nkaho bari kwihugura ubumenyi, uburyo bwo gukora imigezi, aho bari kwifashisha impombo, kugira ngo babyige neza.

Abanyeshuri bari muri garaduwesheni, kandi barishimye cyane kuko barangije ikiciro kimwe bagiye mu kindi.

Abenshi mu banyeshuri biga gutunganya amafunguro, aho mu mahoteli babifashisha.

Ubudozi ni bwiza cyane. Abantu benshi bakunda kudodesha imyenda yabo, bityo n'abakora uwo mwuga bakabona amafaranga menshi, bagateza imbere imiryango yabo n'igihugu muri rusange.

Umugabo uri kumwe n' umunyeshuri, kuko yambaye iniforume aho yubatse ikibumbano gisa nkaho ari kukimurika.

Mu nzu nyinshi z'ubucuruzi, hakorerwamo igikorwa cyo gutunganya imisatsi y'abantu, ni byiza bibateza imbere.

Abantu benshi bakunda kwiga ibintu bijyanye no gutunganya imisatsi. Ni byiza cyane abantu benshi bakunda kuyitunganyirisha, bityo ababyize bakabona amafaranga.

Icyumba cy'ishuri kirimo ibyarahani bitari bikeya, bizakoreshwa n'abanyeshuri, kugira ngo biyungure ubumenyi ku budozi.

Abana biga muri pirimeri, bashushanyije ibishushanyo bitandukanye, ni byiza kuko bibungura ubumenyi, bityo bakazatsinda neza.

Abanyeshuri bari kwiga ibijyanye n'ikoranabuhanga, bari kwiga mu buryo bugezweho aho batandika ku bibaho.

Mu mashuri yisumbuye, abanyeshuri biga umuzika, bityo bikazashimisha ababareba.

Abanyeshuri benshi bari kwihugura mu mirimo y'amaboko, aho bari gukoresha ibyuma kugira ngo bazakore akazi.

Abanyeshuri ni beza kuko batuma, igihugu gitera imbere. Aho biga ibijyanye n'ikoranabuhanga.

Umunyeshuri uri kwihugura imirimo y'amaboko, aho ari gukoresha imashini z'ubusuderi ari gusudira ibyuma.

Mu myigire ya buri munsi habamo ibintu byinshi cyane nk'ubukorikori no kudoda inkweto, bwamamaye henshi cyane mu Rwanda

Umwuga w'ubudozi ni mwiza. Abantu benshi barawukunda, kuko wakijije abatari bakeya.

Icyumba kiri mu kigo cy'amashuri. Aho bacyitorezamo imirimo y'amaboko, aho ku isoko ry'umurimo bazaba batyaye rwose.

Abanyeshuri babiri bafite metero, bari gupima ibipimo. Bizabafasha kwiyungura ubumenyi, kandi bunguke ku isoko ry'umurimo.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga gisa nk'aho ko ari mudasobwa, kiri ahantu bakoresha bari kwihugura imirimo y'ubukorikori.

Kugira ngo umenye niba umunyeshuri ibyo wamwigishije yabifashe, ugomba kumuha isuzumabumenyi, yabisubiza neza ukamenya ko yabyumvishe.

Mu ishuri abanyeshuri bambara impuzankano, bakicara ku ntebe zabo, bagakurikira mwarimu, bigatuma bakurikira neza.

Abanyeshuri, abayobozi, n'abandi bantu batandukanye bari munsi y'ikibumbano cy'ingagi, bisa nkaho biga ibijyananye n'ubukerarugendo ni byiza kandi.

Abanyeshuri bari mu cyumba kibamo za mudasobwa, bityo bari kwihugura mirimo y'amaboko izabateza imbere.

Habaho inyubako nyinshi zikorerwamo ibikorwa byo gutunganya imisatsi. Ni byiza cyane kuko biteza ababikora imbere.

Abanyeshuri bambaye impuzankano. Aho bari gukora imirimo y'amaboko, izabungura ubumenyi, bakagira ibintu byinshi bigezaho.

Abantu bari mu bukorikori bwo gusudira ibyuma, aho bakora ibintu byinshi bitandukanye, harimo inzugi, amadirisha ndetse n'ibindi.